Inzu nziza cyane inzu bacururizamo ibihaza, inzu ifite abantu bicaye imbere hariho n'uhagaze, ifite umukwege uriho imifuka ihanitse ndetse na twabucengennde ku muryango.

Inzu nziza cyane, inzu ifite icyumba kiri kugaragara hano ari kimwe n'idirishya ryiza cyane. Inzu ifite kizimyamwoto, inzu yanditseho amagambo meza cyane yitwa simatekarasi rumu kabiri.

Inzu nziza cyane, inzu iriho ibyapa bicuruza, biranga ko bacuruza matora . Ndetse hariho matora nyinshi cyane imbere y'inzu inzu. Iteye irangi, inzu ifite n'amabuye ayipavumye mu mpande.

Inzu nziza cyane inzu iteye amarangi, ni inzu ifite ibyapa biha abantu ikaze, inzu yanditseho karirisimbi vorukano ini senta ni inzu bacururizamo, iriho n'ahandi hari icyapa gifite ibara ry'umweru, cyanditseho ibyandiko by'umukara handitseho henikeni ndetse gifite n'icyapa cya mitsingi.

Inzu nziza cyane inzu ifite amakaro inzu iriho icyapa cyanditseho Hayitekinoloji Saliyushoni, ni inzu nziza cyane ifite mo imbere ibikoresho icuruza amaradiyo, ama telefone ndetse n'ibindi.

Amagare menshi cyane . Amagare amanitse ku cyuma. amagare ya siporo hirya hari umuntu wicaye imbere nziza cyane ifite icyapa gisa n'igicuruza ibikoresho by'amagare ,hirya abantu benshi cyane n'umuntu uri gukanika igare.

Inzu nziza cyane, inzu iteye amakaro, inzu ifite imiryango ibiri, iri kugaragara imbere inkingi imwe, kuruhande hari guhinguka intebe ndetse n'umutaka wa emutiyene, urundi ruhande hari guhinguka umuntu uri mu nzu ndetse n'ipine y'igare.

Isoko ryo ku muhanda, isoko rigari cyane, isoko bacururizamo imboga n'imbuto, ibitunguru ndetse isoko ririmo abantu benshi, abari guhaha ndetse n'abari kugurisha.

Amafi meza cyane, amafi ari mu base . Amafi andi ari ku mufuniko w'imbegeti ,amafi meza rwose asa n'aho barobye ,hirya hari guhinguka udufi duto dusa n'udusambaza turi ku gisika.